Ubworozi bw'inka bufasha abaturage kubona amafaranga bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi, hari igihe bayafata bagatangamo mituweli ndetse bagakemura ibibazo bimwe na bimwe bahura na byo.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bavuga ko bahura n'imbogamizi y'abarimu bake kandi bakeneye kwiga kugira ngo biyungure ubumenyi, minisiteri y'uburezi ivuga ko igiye kongera abarimu.

Inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'ameza, utubati, intebe ndetse n'ibindi, ni ahantutu ubona harimo ibikinisho by'abana, aho bahurira bagakina bakumva bishimye.

Abana biga mu mashuri y'inshuke, bakunze kuvuga ko iyo abarimu babafashije bagira ubumenyi bw'ibanze, aba bana kandi bavuga ko abarimu babigisha uturirimbo ndetse bakumva bishimye.

Icyumba kirimo umusore wambaye umupira utukura, uyu musore biragaragara ko ari umukozi ukorera ikigo cya MTN kandi akaba yarabishoyemo amafaranga menshi.

Inyubako yahuriyemo abayobozi baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda y'umweru, ubururu, ndetse n'umukara bari kwiga ku kibazo k'ibikoresho byangirika mu kigo cy'amashuri kugira ngo babisane.

Abantu bane barimo gufata amafunguro, bavuga ko iyo basangiriye hamwe babasha kumva baguwe neza maze bakaganira ku bintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakunze kuvuga ko iyo wize neza utsinda maze ukabona amanota, akenshi iyo wize utabishyizeho umwete, amanota urayabura, bityo ugatsindwa.

Icyumba kirimo abayobozi baturutse mu kigo cy'amashuri cya Nyagatare, bigaragara ko bari gutanga serivisi bayigeza ku baturage, iki cyumba kandi kirimo urubyiruko, ubona ruhagaze.

Umukobwa wiga mu mashuri yisumbuye, yambaye ishati y'umweru ndetse na karuvati, hirya ye hari ameza ahateretse ndetse n'indabo zikikije igipangu arimo.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ifite imiryango isize irangi ry'ubururu, iyi nyubako biragaragara ko igeretse kabiri kandi ari ikigo cy'amashuri.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakunze kuvuga ko iyo bazindutse mu gitondo baririmba indirimbo yubahiriza igihugu bamara kuyiririmba bakajya mu mashuri kwiga, bityo bakiyungura ubumenyi.

Inyubako yateraniyemo ababyeyi bambaye imyenda yabugenewe, aba babyeyi bavuga ko iyo bagiye mu nama bagahura n'abandi bayobozi baganira maze bakiteza imbere bitewe n'inama bahungukira.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bavuga ko iyo bahawe inama bumva kandi bagashyira mu bikorwa, kwiga ni ingirakamaro kuko bituma umuntu abasha kwibeshaho.

Abanyeshuri biga muri kaminuza bakunze gukoresha mudasobwa bakora ubushakashatsi, iyo wize neza ubasha kugira ubumenyi, bugufasha kwiteza imbere ndetse no kumenya uburyo bwo kwihangira imirimo.

Inyubako yateraniyemo abaturage baturutse mu bice bitandukanye. Harimo abagabo, abagore ndetse n'abana, bigaragara ko bari mu nama ibagezaho ibitekerezo bitandukanye.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abakobwa ndetse n'abasore, bahagaze imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye kandi yubatse neza.

Umuhanda w'amapave unyuramo imodoka nyinshi zitandukanye harimo imodoka itwara abarwayi ariyo bita imbangukiragutabara, imodoka ikunda kugenda yihuta.

Inyubako isakaje amabati atukura, isize irangi ry'umweru, ni inyubako igeretse kabiri, ikorerwamo ibikorwa bimwe na bimwe bya leta bitandukanye, iri ahantu heza ubona ko hagaragara neza kandi hasa neza.

Abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye amakoti meza amashati na karuvati, bari guturuka mu nyubako isakaje amabati atukura, bigaragara ko ari abayobozi bavuye mu nama.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati atukura, iyi nyubako iteye irangi ry'umweru bigaragara ko yubatse ahantu heza kandi hasa neza, hari umuhanda w'amapave unyura hagati muri iyo nyubako.